Abantu benshi biganjemo urubyiruko, bambaye ingofero z'umweru, imipira y'umweru abandi bambaye imipira y'ubururu, bafite icyapa kinini cyanditseho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, bigaragara ko barimo kwamamaza uyu munsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri.

Abana batatu bafite imisatsi izinze barimo gukaraba ku migezi rusange yabugenewe, barimo gukuraho imyanda ku ntoki kugira ngo itaza kubatera uburwayi, barishimye bishimiye uri kubareba ndetse urimo kubafotora.

Umukobwa uri ku mugezi avoma amazi mu ijerekani iteretse mu mabase abiri agerekeranye, inyuma ye hari imigozi yanitseho imyenda bigaragara ko uyu mukobwa ari mu gikorwa cyo gufura imyenda.

Umuntu uri ku mugezi arimo kuvoma indabo ndetse n'akajerekane, arimo kwitegereza abantu bari imbere ye abasekera bigaragara ko abishimiye.

Icyumba giteraniyemo abantu batandukanye barimo kubyina barambuye amaboko hejuru, biganjemo abagore ndetse ku ruhande hari ameza n'intebe iri kwifashishwa n'abayobozi bayoboye igikorwa kiri kubera aho hantu.

Abantu benshi, ni abagabo n'abagore bahagaze imbere y'inzu y'inama bafata ifoto y'urwibutso, barimo bamwe muri bo bambaye amataburiya, bigaragara ko bakora ibikorwa bijyanye n'ubuvuzi.

Abana benshi bambaye impuzankano y'umuhondo bazamuye akaboko bishimye baseka, ndetse inyuma yabo hari itsinda ry'abayobozi rihagaze mu muryango w'inyubako, ribafasha mu gikorwa barimo bose hamwe bishimye.

Ivomero rusange rihagazeho abana baje kuvoma amazi bafite ibijerekani, inyuma hariho umukobwa mukuru urimo gukubita amazi ayakura mu butaka ayazamura mu mugezi kugira ngo abana babone amazi bavoma.

Umwana uri ku mugezi ufite amajerekani atatu, afashe ijerekani imwe ari kuyivoma ku mugezi, amazi ari kuva mu mugezi yinjira mu jerekani arimo guseka areba abantu bari imbere ye.

Ku mugezi umugabo n'umugore baje kuvoma amazi bifashishije amajerekani bayateretse ku mugezi, amazi ari kuva ku migezi ajya mu ijerekani bari kuganirizwa n'umugore wambaye akajire, ndetse n'umupira w'umweru ubahagaze haraguru afashe ku mugezi.

Abaganga bambaye imyenda yabugenewe n'ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma abana, umubyeyi yazanye umwana we barimo kumuvura yicaye afashe umwana, umuganga arimo aramutera urushinge ku rutugu.

Abana benshi bambaye iniforume abahungu n'abakobwa bigaragara ko bavuye k'ishuri bakaba boherejwe kuvoma amazi barimo kuvoma bifashishije indobo ndetse n'utujerekani barimo bamwenyura baganira jubona bishimye.

Umubyeyi w'umumama wicaye afashe umwana mu ntoki, ari kumwe n'umugore wambaye itaburiya ugaragara nk'uwita ku bana, arimo arahereza umwana intungamubiri, amwasamisha amusukira mu kanwa.

Ababyeyi benshi bicaye ku murongo bafite abana bato mu ntoki, bamwe bari kubonsa abandi barabateruye, bisa n'aho bategereje guhabwa serivisi runaka baje gushaka.

Abana bane bari gukaraba intoki icyarimwe bishimye baseka cyane, umugabo uhagaze iruhande ari kubakarabya abasukira amazi ku ntoki bagakaraba, amaze bamaze gukaraba ari kugwa mu base iteretse hasi y'ibiganza byabo.

Umubyeyi w'umugore ufite imisatsi ipfunditse wambaye itaburiya afashe indangururamajwi imbere ye haricaye abantu benshi batandukanye batwikirijwe amahema, afite igice kimwe kiriho idarapo ryu Rwanda arimo kubagezaho ikiganiro bamukurikiye.

Umugezi rusange uvumeraho abantu benshi batandukanye, bateretse ibikoresho nk'amajerekani amabase n'ibindi, bicaye umwe avoma abandi bategereje kuvoma.

Umugore uhagaze imbere y'umuryango, arimo gukaraba intoki yifashishije kandagira ukarabe, akajerekani gateye ku biti, ndetse n'agati ko gukandagiraho kugira ngo amazi ari mu kajerekani, yifashishwe mu gukaraba intoki.

Ivomero rusange rivomeraho abaturage batuye muri ako gace, hariho umwana w'umukobwa uteze amaboko ku mugezi afata amazi ari guturuka mu mugezi. Hirya ye hateretse amajerekani bigaragara ko ari abaturage baje kuvoma.

Abaganga benshi bakorera mu kigo nderabuzima cya Mayange, bakira umushyitsi w'umupapa wambaye ikoti ry'umukara, ufite uruhara, wambaye na rinete bakoma amashyi na we akoma amashyi nk'ubishimiye.

Ababyeyi ba bagore bicaye bafite ibitabo n'amakaramu, bandika ibivugirwa mu nama, bambaye imyenda yabugenewe, amataburiya y'ubururu bigaragara ko, ari abaganga cyangwa se abita ku barwayi bita abanyabuzima, bakurikira ikiganiro bari kugezwaho n'ushinzwe ikiganiro.

Abaturage benshi bari ku ivomero rusange, bashungereye umugezi urimo gusanwa n'umukozi wabugenewe. Bafite ibijerekani, indobo ndetse n'amabase bari bwifashishe mu kuvoma umugezi numara gusanwa.

Imbere mu bitaro ahagenewe gusuzumirwa no kuvurirwamo abana. Umana aryamye ku gitanda ndetse bigitanda cyicayeho umubyeyi, abaganga babiri barimo kwita ku mwana bamuvura bakoresheje imiti bazanye bateretse ku gitanganda mu buryo bwo kwifashisha kugira ngo bavure umwana, abashe gukira neza.

Umukobwa uri ku mugezi, afite ikijerekani ndetse n'amabase abiri ari gukoresha avoma amazi. Inyuma ye hariho imyenda, bigaragara ko amazi ari kuvoma ari kwifashishwa mu gufura.

Abaganga bicaye, bambaye imyenda yabugenewe y'akazi nk'itaburiya ndetse na ga, bicaye basuzuma abaturage baje babagana, hifashishijwe imiti bazanye iteretse ku meza ari hagati yabo.

Umubyeyi w’umugore wicaye amwenyura afashe umwana mu ntoki umuganga w’umugore wambaye itaburiya arimo aramuha icyo kurya bigaragara ko arimo kwita ku mwana.

Imbere mu cyumba cy'inama hicayemo abantu benshi batandukanye, abagabo n'abagore bafite amakaramu n'amakayi mu ntoki yo kwandikamo ibivugirwa mu nama, bicaye bareba umuyobozi w'inama, abagezaho ibitekerezo.

Ivomero rusange mbere y'umwana w'umuhungu waje kuvoma, afite amajerekani arimo kuvoma inyuma hari umumama urimo kumukubitira amazi ayavana mu butaka kugira ngo ngo agere muri robini avome, ku ruhande ahagaze abantu benshi bashungereye igikorwa kiri kuba.

Abakangurambaga babiri n'umugabo ndetse n'umugore, bicaye bafite igitabo ndetse n'ikaramu bari kwandikamo ibitekerezo, inyuma hari icyapa kinini cyanditseho sida iracyahari duhaguruke tuyirwanye, bigaragara ko bari mu gikorwa cyo gukangurira abantu kwirinda virusi itera sida.

Abanyeshuri benshi mu kigo cy'amashuri bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'amashati y'umweru. Bafite ibikombe bari kuvoma amazi ku bigega byabugenewe birimo amazi arimo umuti, kugira ngo hirinde indwara zishobora guturuka mu kunywa amazi adasa neza.

Umwana uri kunywa amazi ku mugezi akoresheje intoki, ateze ibiganza ku mazi ari guturuka mu mugezi akagwa ku biganza akayanywa, ayo atanyweye akagwa mu ndobo iteretse hasi.

Umwana w'umukobwa uri ku iriba rusange, rivomerwamo abaturage batandukanye bo mu gace, afite indobo nyinshi ziteretse imbere ye, arimo koza indabo mbere y'uko ayivomeramo.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara, n'ishati y'amakarokaro, arimo guseka cyane, ahagaze ku iriba, atsikamiye ijerekani, bigaragara ko yaje kuvoma amazi akoresheje ijerekani.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abantu benshi batandukanye bicaye, hagati muri bo harimo umugabo urimo kubahugura, bamwe muri bo bafite amakaye n'amakaramu bari kwandika ibiri kuvugirwa muri iyo nama.

Umwana w'umukobwa wambaye iniforume y'umutuku n'umweru, uhagaze arimo gukaraba intoki, akoresheje kandagira ukarabe, ndetse amazi ari kugwa mu i ibase iteretse ahabugenewe.

Ababyeyi, abamama n'abana babo, n'abaganga bateraniye hamwe, abaganga barimo gukora igikorwa cyo gukingira batera inshinge abana, ababyeyi babazaniye kuvuza.

Imbere mu cyumba cy'inama, giteraniyemo abantu benshi, bicaye bateganye, imbere yabo hateretse, icyo kunywa cy'amazi, ndetse buri umwe muri bo afite ikayi, abandi bafite mudasobwa, barimo gukora inama bandika ibivugiwe mu nama.

Umugezi rusange uvomeraho abaturage, bahagaze baje kuvoma, bateretse amajerekani bayatondetse, imwe iri ku mugezi iri kuzura, bakayikuraho bakavoma ikurikiyeho.

Itsinda ry'abaganga benshi bambaye amatabuririya y'umweru ndetse n'ay'ububururu, hagati muri bo hahagaze umugabo wambaye ikoti ry'umukara ubona ko afata ifoto y'urwibutso rw'igikorwa bamaze gukora.

Icyumba kinini giteraniyemo abantu batandukanye, harimo abana ndetse n'ababyeyi bicaye hasi ku misambi, abana bambaye imipira y'ubururu n'umuhondo, naho ababyeyi bambaye imyenda isanzwe, barimo kuganira, hirya yabo hari ameza bateretseho ibikoresho baza kwifashisha muri iyo nama.

Ivomero rusange ririho imigezi irenze umwe, ihagazeho abana bambaye iniforume yo ku ishuri, bigaragara ko baje kuvoma bavuye ku ishuri, bafite ibikoresho nk'indobo, utujerekani barimo kwifashisha mu kuvoma amazi.

Agace kahuriyemo abaturage batandukanye ,kariho ihema ritwikiriye aho igikorwa nyirizina kiri kubera imbere yabo hari inzu iriho ibendera ry'u rwanda bigaragara ko ari abaturage baje mu gikorwa runaka cyateganyirijwe muri ako gace.

Ivomero rusange rihagazeho abana baje kuvoma bafite tujerekani, hirya hari umuhungu urimo gukubita amazi yazamura kugirango abaje kuvoma babone amazi bavoma.

Ababyeyi benshi bazanye abana babo, umwe afite umwana mu ntoki, umuyobozi arimo kumuha amata akoresheje igikoresho cyabugenewe kirimo amata ari gusomya umwana.

Imbere mu cyumba cy'inama, abitabiriye inama bicaye bateganye, ameza abari imbere ateretseho amazi yo kunywa, amakaye bari kwifashisha mu kwandika ibiri kuvugirwa mu nama, hirya ku ruhande hari umuyobozi w'inama urimo kugezaho uko gahunda y'inama iteye.

Abagore bicaye bakurikiranye barimo kwisuzumisha umuvuduko w'amaraso, muganga wambaye itaburiya arimo kubapima akoresheje akuma kabugenewe gapima umuvuduko w'amaraso, akabambika mu kaboko kugira ngo arebe uko amaraso arimo gutembera mu mubiri.

Abaganga bambaye ibikoresho byabugenewe bateye amahema ahantu runaka, hariho intebe n'ameza bari kwifashisha. Abarwayi bari kuza bakabasuzuma mu kanywa, bigaragara ko ari uburwayi bw'amenyo, bari gusuzuma umugabo wicaye ku intebe.

Abaturage benshi bari mu nama bicaye, umuyobozi w'inama ari kubagezaho ikiganiro ahagaze, bamuteze amatwi bumva ibyo ari kubabwira.

Inama rusange irimo abantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi ndetse n'ibikoresho bitandukanye bari bwifashisha mu nama, bicaye bareba bateze amatwi umuyobozi w'inama.

Igikorwa cyo gusuzuma abaturage kiri gukorwarwa n'abaganga babiri bicaye bafite mudasobwa ibateretse ku meza aba imbere abaturage bicaye ku ntebe zabugenewe umwe agahabwa serivisi avaho hajyaho undi kandi bose bambaye udupfukamunwa mu rwego rwo kwirinda guhererekanya indwara zandurira mu buhumekero.

Abagabo n'abagore barimo gutwara imifuka isa umweru, bayirunda ahantu hamwe, abagore babiri bateruye umufuka, umwe ku ruhande rumwe, undi ateruye ku rundi ruhande bawujyana aho indi mifuka irambitse.

Imbere mu cyumba cy'inama, hateraniyemo abantu batandukanye, bicaye bateganye barimo baganira ku ngingo runaka, imbere yabo hateretse ibikombe bakoresheje mu kunywa icyayi ndetse n'ibindi bikoresho barikwiifashisha mu nama.

Abantu benshi bicaye abandi bahagaze, bafata ifoto y'urwibutso, inyuma y'abo hari igikuta kinini kiriho icyapa cyanditseho RBC, ikigo k'igihugu gishinzwe ubuzima, bigaragara ko ibikorwa byakorerwaga aha bari byari bifite aho bihuriye n'ikigo k'igihugu gishinzwe ubuzima.

Muganga wambaye ibikoresho by'akazi nka ga, afashe ku kaboko k'umuntu afite n'urushinge mu ntoki arimo kurumutera, bigaragara ko arimo kumukingira cyangwa akaba amuvura indwara runaka.

Umujyanama w'ubuzima yicaranye n'ababyeyi ndetse n'abana afashe ikayi mu ntoki n'ikaramu arimo kubaza ibibazo umwana asubiza amuhaye akabyandika, ababyeyi bazanye n'umwana barimo baraseka bigaragara ko banezerewe n'ibiririmo kuba.

Umwana w'umukobwa, uhagaze wishimye arimo gukaraba intoki. Hifashishijwe kandagira ukarabe ikoze mu ndobo ndetse n'ibase igwamo amazi yakoreshejwe mu gukaraba intoki.

Ku mugezi rusange abaturage bavomaho hariho abantu batandukanye, umugore afashe umwana we mu ntoki ndetse n'indobo, undi afite umwana yateretse mu ibase arimo kumwuhagira.

Umwana waje kuvoma amazi ku mugezi akoresheje akajerekani arimo gufungurirwa na mugenzi we kugirango abone amazi avoma, inyuma yabo hari umuhanda wo gucamo abana bajya ku ishuri abandi bavayo.

Abayobozi bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari ameza ateretseho utwuma tw'amajwi, mu ruhande hicayemo umuyobozi w'inama, impande ye hari ibendera ry'u Rwanda riri mu mabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Abantu benshi bahuriye hamwe bahagaze barebana hagati muri bo harimo ameza. Bamwe bambaye imyambaro y'ubururu imeze nk'amataburiya bigaragara ko bafite ibyo bari kwereka abandi bambaye amakoti, hariho abafotora amafoto y'igikorwa kirimo kubera aho hantu.

Abakozi bahagaze imbere y'imbaga nyamwinshi, imbere yabo hari indangururamajwi, ndetse na mudasobwa, n'amazi biterutse ku meza, inyuma y'abo hari igikuta kinini, kiri mu mabara y'ubururu, n'amagambo yandikishije umweru, yanditseho ngo sitopu maribage virusi, bivuze ngo hagarara virusi ya maribage.

Ivomero rusange ryubakishije sima ririho imigezi ine ifasha abarituyeho kuba bavomaho ari bane, hahagaze umugabo arimo gushungera umwana ufite indobo arimo kuyiterura agiye kuyikorera.

Umugabo w'umunyabuzima, arimo gusobanurira ababyeyi baje bamugana, ibijyanye no kwita ku bana babo mu gihe bakiri bato, kubarinda ibibazo bashobora guhura na byo igihe baba baragize ubuzima bubi bakiri bato.

Umugabo wambaye amataratara asutamye hasi afashe umwana uri ku munzani upima ibiro inyuma yabo hahagaze abantu bigaragara ko uwo mugabo ufashe umwana ariguseka amwenyura yishimye.

Umwana wambaye bodaboda n'ikabutura y'umutuku, ari ku mugezi ari kunywa amazi, akoresheje ibiganza mu gutega amazi aturuka mu mugezi, umunwa we yawushyize ku biganza, ari kunywa amazi.

Umukobwa ufite imisatsi iringaniye, wambaye agapira k'ubururu imbere y'umupira w'umutuku, arimo guseka amwenyura, bigaragara ko yishimiye umuntu uri imbere ye, urimo kumureba.

Umubyeyi w'umugore uhetse umwana mu mugongo, undi mwana amuhagaze iruhande, barimo guteka ku mbabura, bari kwitegereza umuntu ubari imbere baseka, bigaragara ko bamwishimiye.

Umubyeyi w'umugore uhagaze, wambaye igitenge gisa umutuku hejuru, yambaye ishapure mu ijosi ndetse arimo aseka amwenyurira abari kumureba.

Icyapa kinini gishushanyijeho abantu babiri, umugabo n'umugore bafata ku mutwe. Cyanditseho amagambo ngo waridi mento helefu de bibiri na makumyabiri na gatatu, bisobanura ko ari umunsi mpuzamahanga wita ku bibazo byo mu mutwe. Mu mwaka w' ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu.

Umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe, arimo gusindagizwa n'umuhungu ku ruhande rumwe ndetse n'umubyeyi ku rundi ruhande, byumvikana ko bagamije kumugeza ahakwiye hatekanye.

Abantu bane bateraniye mu cyumba cy'amahugurwa abagore batatu bicaye imbere yabo bateretse ameza ariho amazi, amaterefone yabo n'ibindi bikoresho bari kwifashisha mu mahugurwa, imbere yabo hahagaze umuntu ufite indangururamajwi ndimo kubagezaho amahugurwa ku cyapa cyo ku gikuta hariho amagambo yanditse ngo twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera.

Abagore batatu bicaye munsi y'igiti barebana bafite impapuro mu ntoki, ibikapu byabo biteretse impande yabo, basa n'abaganira ku bintu bafite mu ntoki, inyuma yabo hirya gato hari inyubako za gakondo nyarwanda.

Abantu benshi bagaragara nk'abayobozi mu gikorwa cy'ubuhinzi, bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'ibyapa bigaragaza igikorwa barimo, bahagaze bafata ifoto y'urwibutso abandi bari gufasha abahinzi gutera imbuto.

Icyumba cyicayemo umugore ufite imisatsi isutse, wambaye ikanzu y'umukara, yicaranye n'umukobwa wambaye ikanzu y'ubururu arimo kumwereka agashushanyo yakoze, imbere yabo hateretse ameza aariho utundi dushushanyo umwana w'umukobwa yakoze.

Umugabo wicaye hasi yifumbase, yegamiye igikuta, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, arimo kwitegereza umuntu umuri imbere ye, agaragara nk'ukeneye ubufasha.

Abantu benshi batandukanye biganjemo ababyeyi bakoma amashyi bahagaze, bigaragara ko barimo kuririmba indirimbo runaka, impande yabo hari ameza ndetse ateretseho amazi n'ibindi bikoresho bifashisha mu nama.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko bateraniye mu cyumba, bamwe barahagaze abandi baricaye, bamwenyura bafata ifoto y'urwibutso. imbere mu cyumba harimo ifoto y'umuyobozi, ndetse n'icyapa kinini cyanditseho UNICEF bigaragara ko bari mu bikorwa bifite aho bihuriye na UNICEF ikigo mpuzamahanga kita ku buzima.

Abana benshi bagaragara nk'abatishoboye bambaye imyenda yabacikiyeho, barimo kurira cyane abandi basaba byumvikana ko bababaje, barimo gusaba ubufasha ngo barebe ko bagira ubuzima.

Umugabo ugaragara nk'ufite ikibazo cyo mu mutwe, uhagaze, washwanyagukiyeho imyenda, afite ibikoresho byinshi bitandukanye bigaragara ko yatoraguyeye mu myanda.

Ikigo cy'amashuri kirimo abanyeshuri benshi, benshi, baza bazamuye ibiganza bishimye, baseka. Bambaye impuzankano, ndetse mu kigo hagaragaramo ibendera rya Repubulika y'u Rwanda.

Umurwayi wo mu mutwe wicaye mu muferege, afite ibintu by'umwanda ndetse yambaye ibirenge n'igice cyo hejuru ntabwo yambaye, afite umusatsi usa nabi kandi mwinshi.

Umubyeyi w'umumama ukuze, wambaye ibitenge n'igitambaro gisa n'ibitenge, arimo guseka cyane areba umuntu uri imbere ye.

Umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe yambaye ibirenge, imyambaro yamucikagurikiyeho, afashe imyanda mu ntoki, impande hari umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga mota ndetse n'imodokari.

Umugabo ufashe akadodo, ari kugacisha hagati mu menyo, akuramo imyanda iba yagiyemo mu mugihe yaryaga. Ari kwireba mu ndorerwamo, kugira ngo abashe kuyikuramo yose, itaza kumutera uburwayi bw'amenyo.

Imbere mu bitaro mu cyumba cyabugenewe gisuzumirwamo amenyo. Umuganga w'umuhungu wambaye ga, itaburiya, n'agapfukamunwa arigusuzuma umurwayi. Amuryamishije ku gitanda cyabugenewe kiryamaho abarwayi barimo gusuzumwa.

Abaganga b'abagore babiri, bavura mu bijyanye n'amenyo, bafite impapuro n'amakaramu, bari kwandikaho. Imbere yabo hateretse imeza ifunikishije igitambaro cy'ubururu, hateretseho amazi, amaterefone n'ibindi bikoresho bifashisha.

Umubyeyi w'umugore uhagararanye n'umwana bari mu gikorwa cyo gusukura amenyo hifashishijwe uburoso bwabugenewe, bashyizeho korogate, umugore ari kwereka umwana we, uko bakoresha uburoso bakuba amenyo bayakuraho umwanda.

Imbere mu ivuriro mu icyumba cyabugenewe kivurirwamo amenyo harimo ibikoresho bitandukanye nk'intebe, ibitanda n'ibindi byuma byabugenewe bikoreshwa mu kuvura amenyo.

Umusore wafatishije akadodo amaboko yombi arimo kugacisha ku munwa ndetse agaragaza n'amenyo bigaragara ko agiye kuruma kariya kadodo.

Umuganga uri mu cyumba cyabugenewe, gisuzumirwamo indwara zitandukanye, hifashishijwe, imashini zimuri impande, ndetse arimo kwandika ku gipapuro, ibipimo by'indwara yafashe.

Umukobwa umwenyura ufite imisatsi iboshye y'umukara, imbere ye hari igikoresho kiriho amenyo atandukanye ndetse n'ikiganza cyambaye ga zabugenewe, bigaragara ko uyu mukobwa agiye gusuzumwa no kuvurwa amenyo.

Imbere mu ishuri, abana bambaye inifomu, bicaye ku ntebe zabugenewe, bafite ibyo bahawe mu ntoki babizamuye hejuru, bashima, bishimira ibyo bahawe.

Umugabo ufatishije akagozi amaboko yombi arasamye cyane arimo kugacisha hagati mu menyo, bigaragara ko ari gukura imwe mu myanda iba yafashe mu menyo, mu rwego rwo kwirinda zimwe mu ndwara yarwara z'amenyo zitewe n'umwanda.

Imbere mu bitaro mu cyumba cyabugenewe kivurirwamo amenyo, hahagazemo umugabo wambaye imyambaro y'umukara, urimo kureba mu ndorerwamo areba ikibazo amenyo ye ashobora kuba afite.

Mu isuzumiro ry'amenyo, umwana ugaragara nk'urwaye amenyo, yicaye ku ntebe, abaganga babiri barimo kumusuzuma, umwe muri bo aramufashe undi arimo arasuzuma amenyo ye, amureba mu kanwa akoresheje ibikoresho byabugenewe byo kumusuzuma.

Umuhungu wambaye umupira w'umweru uzinze imisatsi, afashe akagozi agafatishe amaboko yombi, arimo kugacisha mu menyo yireba mu kirahure, akuramo imyanda imwe n'imwe iba yafashe mu menyo, mu rwego rwo kwirinda indwara ashobora guterwa n'umwanda uri mu menyo.

Imbere mu bitaro mu cyumba cyabugenewe gisuzumirwamo kikanavurirwamo amenyo. Harimo ibikoresho bitandukanye nk'intebe, mudasobwa n'ibindi byuma byifashishwa mu gusuzuma amenyo.

Imbere mu bitaro, mu cyumba cyabugenewe kivurirwamo amenyo, kirimo ibikoresho bitandukanye, intebe ameza ibyuma byifashishwa mu kuvura amenyo, igitanda umurwayi aryamaho mu gihe arimo gusuzumwa amenyo.

Imbere mu bitaro, mu cyumba cyabugenewe kivurirwamo kikanasuzumirwamo amenyo, umurwayi aryamye ku gitanda cyabugenewe, umuganga ari kwifashisha imashini yabugenewe imufasha gusuzuma no kuvura umurwayi, arimo kumwitaho amukize amenyo.

Umwana wicaye ku ntebe y'umutuku wasamye yereka amenyo umuganga uri imbere ye wambaye ga z'icyatsi kugira ngo ayasuzume aboneka ko afite ikibazo ayavura.

Umwana w'umukobwa wambaye isengeri y'umweru yiteze n'igitambaro cy'umweru, arimo kwiborosa akoresheje uburoso asukura amenyo, bigaragara ko ari kwireba mu kirahuri kugira ngo asukure amenyo ye arebe neza.

Umugabo uryamye ku gitanda cyabugenewe, gikoreshwa n'umurwayi mu gihe arimo gusuzumwa n'umuganga, umuganga ahagaze impande ye, yambaye ibikoresho nk'itaburiya ndetse na ga ndetse n'icyuma ari gukoresha asuzuma umugabo. Umugabo arimo kumwenyura areba abamureba imbere ye.

Umugabo wambaye amataratara, ufite iherena ku izuru ndetse n'ubwanwa buriringaniye, arimo guseka agaragaza amenyo ye. Ari gukoresha urutoki rwe rw'iburyo atunga ku menyo, bigaragara ko yerekanaga amenyo.

Igice cy'amenyo kigaragaraho amenyo menshi cyane, cyafotowe n'imashini yo kwa muganga ifotora amagufwa yakoreshejwe mu gufotora amenyo, kugirango ngo haze kurebwa iryinyo rifite ikibazo, muganga aze kubyitaho arebe nibura rikire.

Icyuma gisuzumirwamo kikanavurirwamo abarwayi b'amenyo, umukobwa uryamye ku gitanda cyabugenewe cy'abarwayi arimo kwitabwaho n'umuganga ufashe akadodo mu ntoki ari kumusobanurira uburyo gakoreshwa mu gukora imyanda iba yafashe mu menyo.

Mu kanwa h'umuntu wasamye amenyo agaragara, hariho icyuma gifashe iryinyo, bigaragara ko ari iryinyo bamaze kumukura hifashishijwe imashini yabugenewe mu gukura amenyo.

Imashini iteretse yifashishwa mu gikorwa cyo kuvura amenyo, ifite udukoresho dutandukanye muganga yifashisha mu gihe arimo kuvura amenyo y'umurwayi.

Imbere mu bitaro icyumba cyabugenewe gisuzumirwamo, kikanavurirwamo abarwayi b'amenyo. Kirimo ibikoresho bitandukanye nk'igitanda, umurwayi aryamaho mu gihe asuzumwa anavurwa. ndetse n'intebe muganga yicaraho mu gihe arimo kumwitaho.

Umuganga usuzuma akanavura abafite ibibazo by'uburwayi bw'amenyo yicaye mu cyumba cyabugenewe kivurirwamo amenyo ku ntebe bicaramo bavura umurwayi, impande ye hari igitanda umurwayi yicaramo mu gihe ari gusuzumwa ari no kuvurwa, impande hari imashini zifashishwa mu buryo bwo kuvura uwo murwayi.

umukobwa ufashe urudodo afatishije amaboko yombi arimo kuruma akoresheje amenyo ye ashinga cyane bigaragara ko urudodo rukomeye rwamugoye kuruca

Imbere mu bitaro icyumba cyabugenewe gisuzumirwamo kikanavurirwamo abarwayi b'amenyo, umugore urwaye amenyo aryamye ku gitanda, abaganga bavura amenyo bari kumuvura bambaye ibikoresho byabugenewe ndetse bambaye agapfukamunwa kabarinda kugira ibibazo by'uburwayi barimo kwita ku mugore.

Umusaza uri mu cyumba gikorerwamo amasuku, arimo gusukura amenyo ye yifashishije uburoso bw'amenyo indorerwamo kurebabamo ndetse n'amazi n'umuti uteretse ku ruhande, mu rwego rwo kwirinda uburwayi aterwa n'imyanda isigara mu menyo.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi wambaye isengeri y'umweru afashe uburoso bw'amenyo arimo aroza amenyo yireba mu ndorerwamo kugirango abashe kuyasukura yita kuyariho imyanda ayikuramo amenyo ye amererwe neza.

Imbere mu bitaro mu cyumba cyabugenewe kivurirwamo amenyo harimo abaganga babiri bambaye ibikoresho byabugenewe nkagapfukamunwa , itaburiya ndetse naga barimo basuzuma banavura umurwayi uryamye ku gitanda cyabugenewe bifashishije imashini mu kumuvura uburwayi bw’amenyo.

Umugabo wasamye amenyo agaragara, afashe mu kiganza cye ibikoresho byabugenewe yambika amenyo yahawe nabaganga kugira ngo amenyo ye atakomeza guhura n'ibibazo.

Imbere mu cyumba kivurirwamo abarwayi b'amenyo, umuganga wambaye tabu y'icyatsi na ga n'ibikoresho byabugenewe mu kuvura amenyo yaryamishije umurwayi igitanda cyabugenewe ndetse yamubwiye kwasama kugirango ngo arebe amenyo afite ikibazo ayavure.

Ababyeyi batatu, bari hamwe, uwo hagati afite telefone, yambaye inyakiramajwi mu matwi, arimo kubereka ibyori ari kubona muri telefone.

Umubyeyi w'umugore wambaye umupira w'umweru, afashe akagozi afatishije amaboko yombi arimo kukitegereza, imbere ye hagaze umuganga wambaye itaburiya, bigaragara ko ari kumwitaho amwereka uburyo akoresha ako kagozi mu kwivura indwara runaka afite.

Umugabo n'umugore bicaye umugabo yambaye umupira w'ubururu, umugore yambaye umupira w'umutuku. Bose bagaragara nk'abakuze kuko bafite umusatsi w'imvi, umugore arimo kwereka umugabo ibintu byanditse ku rupapuro, imbere yabo hateretse uducupa bigaragara ko dushobora kuba turimo imiti.

Umuganga wabugenewe, wita ku bantu bafite ibibazo bitandukanye, by'umwihariko afite imbaraga nke, mu kugendesha amaguru, arimo kwita ku mugabo ufite utwuma tumufasha, mu mugihe arimo kugenda.

Abaturage batandukanye bicaye ku ntebe abandi bicaye hasi munsi y'igiti baganira bungurana ibitekerezo. Bigaragara ko bakurikiye umwe muri bo urigutanga igitekerezo abandi bateze amatwi. Imbere yabo hari umuyobozi ufite mudasobwa ari na we uyoboye inama bahuriyemo.

Abantu runaka bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo biganjemo abagore bambaye amashati y'ubururu ndetse bamwe muri bo bafashe udupfukamunwa mu ntoki bigaragara ko bari m'igikorwa cyabahurije hamwe kiri kubasaba kugenda bava mu gace kamwe bajya mu kandi.

Abantu babiri bagaragara nk'abakuze umukecuru n'umusaza, bahagaze umusaza arimo kwereka umukecuru akantu gato afite mu ntoki, impande yabo hariho ibikoresho bitandukanye, birimo imiti, amataratara birambitse ku meza, inyuma yabo hari ibindi bikoresho biteretse, icyuma cyabugenewe gikonjesha ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa.

Umubyeyi w'umugore ugaragara nk'ukuze, ufite imisatsi y'imvi, afashe udukoresho two kwifashisha mu gihe cya siporo, arimo gukora siporo amwenyura, asekera umuntu urimo kumureba, uri imbere ye.

Umusaza ufite imvi, yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara n'inkoni, yicaranye nabana be basangira imikati, abana bo bafite n'amata, barimo kunywesha imikati.

Umubyeyi ukuze ufite imisatsi y'imvi ahagaze imbere y'abantu abagezaho ikiganiro afite indangururamajwi y'umutuku ahagaze imbere y'agatute atanga igitekerezo.

Umukobwa uhetse igikapu afite agakosakoshi mu ntoki, ari kumwe n'umubyeyi ufite utwuma twabugenewe bigaragara ko aritwo akoresha mugihe arimo kugenda akoresheje amaguru. Byumvikana ko afite ikibazo cyo kutagira imbaraga cyane mu gihe ari kugendesha amaguru.

Umugabo ugaragara nk'udafite imbaraga nyinshi zo kugendesha amaguru, arimo gufashwa n'Umuganga wabugenewe wambaye imyambaro y'umukara amufasha, amusindagiza kugira ngo abashe kugenda gake gake n'amaguru.

Umusaza ufite umusatsi muke w'imvi wambaye rinete, afite igitabo mu ntoki ndetse n'ikaramu arimo gusoma yandika iby'ingenzi abonye mu gitabo.

Umugabo wicaye mu igare ryabugenewe ryifashishwa mu kugenda ku bantu badafite imbaraga zo kugenda n'amaguru, ku ruhande hicaye umwana baganira bafashe utwuma twabugenewe mu gukina umukino runaka.

Imbuto z'ubwoko butandukanye zigiye zifunze bijyanye n'ubwoko bw'imbuto, zifite agakoresho kabugenewe kifashishwa mu kudaha imbuto runaka mu rwego rwo kwirinda kuzanduza.

Umubyeyi umugore washyize umusambi hasi, yicaye arimo gukora siporo ananura umugongo, amaguru, ndetse n'amaboko, yifashishije umusambi yateye.

Umubyeyi ukuze witeze igitambaro cy'umweru, wicaye arimo gutekera hanze, impande ye hakikijwe n'ibyatsi byumye n'ibindi bibisi, bigaragara ko ari mu gashyamba.

Abantu biganjemo abagabo bicaye bafite inkoni, bigaragara ko bageze mu za bukuru. Izo nkoni bazifashisha mu gihe barimo kugenda n'amaguru, kugira ngo bize kuborohereza.

Umuganga wita ku barwayi wambaye agapfukamunwa n'amarinete, ari gufasha umusaza bigaragara ko nta mbaraga nyinshi afite, amusindagiza kugira ngo agere aho agomba kugera amahoro.

Ababyeyi b'abagore bahagaze umwe muri bo uhagaze hagati afite telefone arimo arabereka, ibyo barimo kureba barimo kubiseka cyane bigaragara ko bishimishije.

Icyumba cy'inama giteraniyemo imbaga nyamwinshi y'abantu, umugore arimo kugenda ahereza buri muturage witabiriye ibintu, mu byo afite mu ntoki, abaturage abona ko babyishimiye.

Imbere mu cyumba umubyeyi ari kumwe n'umwana we imbere hateretse ameza hariho udukoresho dusa n'umweru ari kwifashisha mu gusobanurira umwana we.

Umusaza ufite imvi, wambaye ishati y'umweru, wicaye mu igare ryabugenewe, afite agakoresho yahawe, umuganga umuhagaze iruhande arimo amusuzuma, anamufasha kumererwa neza.

Abantu babiri bagaragara nk'abakuze imbere yabo hari ameza ariho n'udukoresho tw'umweru umwe muri bo ari kwereka undi ako gakoresho k'umweru bamwenyura baseka ubona bishimye

Umuntu uri mu cyumba wambaye ibirenge, bigaragara ko adafite imbaraga zo kwigendesha n'amaguru, afite utwuma ari gutsikamiraho yifashisha mu mu gihe arimo gutambuka n'amaguru.

Umugabo udafite imbaraga zo kugendesha amaguru, arimo kugerageza kubikora yifashishije ibyuma afatishije amaboko arimo arahabwa amabwiriza n'umugore ubishinzwe kumwitaho kugira arebe ko yakira.

Umugabo n'umugore bafashe akaboko k'umusaza, umwe akaboko kamwe undi akandi, barimo baramwururutsa ku gitanda bigaragara ko uyu musaza adafite imbaraga zo guhagarara n'amaguru, bisaba abantu bamufasha.

Umusaza n'umukecuru bicaye mu cyumba imbere yabo hari ameza hariho impapuro zitandukanye, bafashe rumwe mu ntoki barimo kurureba aho baruganiraho kugira ngo bungurane ibitekerezo.

Mu isuzumiro muganga w'umukobwa wambaye itaburiya y'umweru, afite igikoresho cyabugenewe gipima umuvuduko w'amaraso, yakiziritse umugabo usa n'ukuze ku kuboko kugira ngo apime umuvuduko w'amaraso w'uwo mugabo.

Abantu bicaye bishimye cyane banezerewe, bagaragara nk'umuryango mugari, barimo abagore, abagabo ndetse n'abana banezerewe n'ababyeyi, bigaragara ko bishimye.

Abagabo babiri, umwe wambaye ingofero ugaragara nk'ukuze kurusha uwo bari kumwe, bafatanye ku rutugu baganira, bari kugenda mu nzira y'abanyamaguru, yagenewemo kugendamo abanyamaguru, hadacamo ibinyabiziga.

Umusaza n'umukobwa bicaye ku ntebe mu cyumba, umukobwa ugaragara nk'umuganga wambaye imyenda y'akazi, afite akuma kabugenewe gapima umuvuduko w'amararaso yakambitse mu kaboko k'umusaza, arimo kumupima umuvuduko w'amaraso.

Umubyeyi ufite imisatsi miremire y'umukara, wambaye rinete n'ikanzu y'umuhondo, afite imiti mu ntoki, arimo gusuka mu gakoresho kabugenewe bigaragara ko ari umuvuzi wita ku rubyiruko.

Itsinda ry'ababyeyi bagaragara nk'abakuze bicaye hasi mu cyumba ku musambi, umwe muri bo ari gutanga igitekerezo abandi bamuteze amatwi, undi musaza afite agakoresho ari gukora ka gakondo.

Umu mama ugeze mu za bukuru yicaye ku igare ryabugenewe ritwara abadafite imbaraga zo kwigenza n'amaguru, rifite amapine abiri, intebe umurwayi yicaramo, n'aho bafata bamusunitse , ari kumwe n'umuganga wambaye imyambaro y'ubururu ufite agakoresho kabugenewe gapima uko umurwayi amerewe, ari gukoresha asuzuma umubyeyi.

Umubyeyi w'umugore wambaye ingofero y'umutuku, ku jisho rye ry'iburyo harapfutse n'igipfuko cyabugenewe, bigaragara ko ijisho rye rishobora kuba ryagize ikibazo cyagombeye kuripfuka, arimo kumwenyura agaragara nk'umuntu ukuze.

Ihuriro ry'abantu benshi bari kugenda mu muhanda, bambaye imipira y'umweru n'amapantalo y'umukara, bafite ibyapa mu ntoki byanditseho twisuzumishe kanseri y'ibere, twisuzumishe hakiri kare kuko ivurwa igakira. Bigaragara ko bari kwamamaza igikorwa cyo gusuzuma no kuvurwa kanseri.

Imbere mu cyumba cyigari cyabugenewe cyakirirwamo inama biciyemo abantu batandukanye biganjemo urubyiruko, bicaye imbere yabo hari ameza n'ibindi bikoresho biri kwifashishwa mu nama, barimo kureba umuyobozi w'inama bateze amatwi bumva icyo ari kubagezaho.

Abagabo n'abagore bahagaze bafata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hari igikuta girushanyijeho ikirango cya Repubulika y'u Rwanda, gishushanyishije amabara y'umweru ku gikuta cy'ubururu.

Abihayemana batatu bambaye impuzankano yabo ,barimo gusuhuza umugabo wambaye ikoti bamuhereza ikiganza ,inyuma yaho hari igikuta kinini gishushanyijeho ibyapa bya repubulika yu rwanda ndetse munsi kuri icyapa handitse repubulika of rwanda ministry of health bivuze ko ari icya repubulika y'u rwanda minisiteri y'ubuzima.

Imbere mu nyubako ikimba kini cyagenewe gukorerwamo inama hahuriyemo abantu batandukanye bicaye ndetse imbere yabo hari itsinda ry'abayobozi bicaye ku ntebe batandukanye barimo kuyobora inama inyuma y'aba bayobozi hari igikuta kinini cyanditseho amagambo n'amafoto bisobanura igikorwa kiri kubera ahongaho.

Umukobwa uhagaze ufite indangururamajwi, abwira imbaga nyamwinshi yicaye imbere ye, ababwira igitekerezo afite ku bijyanye n'ibyabahuje, inyuma ye hari abashinzwe ibyuma bicaye bagenzura niba ibyuma biri gukora neza.

Icyapa cyo kwamamaza uburyo bwo kwirinda virusi itera sida gifite amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi ndetse hejuru hari rbc ikigo cy'igihugu cy'ubuzima ndetse n'ikirango cya repubulika y'u Rwanda . Bivuze ko ubu bukangurambaga buri kubera muri repubulika y'u Rwanda ku bufatanye na rbc ikigo cy'igihugu cy'ubuzima.

Icyumba gisuzumirwamo kikanavurirwamo abarwayi, harimo ibikoresho bitandukanye igitanda umurwa aryamaho mu gihe asuzumwa anavurwa, intebe muganga yicaraho mu gihe ari kumwitaho ndetse n'imashini zabugenewe zifasha umuganga kuvura umurwayi.

Igipangu gifite urugi rw'ubururu ruriho H ebyiri zitandukanye zanditse mu nyuguti nkuru nini cyane, ifite ku ruhande icyapa cyanditseho ngo Nyanza hosipito bisobanura ko aha ariho ibitaro bya Nyanza biherereye.

Imbere mu bitaro umurwayi w'umumama uryamye ku gitanda arimo aritabwaho n'umuganga wambaye itaburiya y'akazi ndetse na ga zabugenewe, arimo gusuzuma imimerere y'umurwayi.

Abantu benshi bahagaze bafata ifoto y'urwibutso, bahagaze imbere y'inyubako, yanditseho Rwamagana hospital, bisobanura ko ari inyubako y'ibitaro bya Rwamagana.

Aabakozi babugenewe bita ku nyubako z'ibitaro mu gukoramo amasuku. Yambaye imyambaro y'impuzankano ndetse na bote kandi hari indobo iri kujyamo amazi ari kwifashisha, ndetse afite akamashini ari gukoresha mu rwego rwo gukuramo imyanda.

Umugabo uhagaze hagati y'abagore bane, babiri ku ruhande rumwe, abandi babiri ku rundi ruhande bafata ifoto y'urwibutso, bahagaze imbere ya laboratwari, bigaragara ko ari aho bakorera.

Imbere mu bitaro, mu cyumba kinini cyabugenewe, kirimo ibitanda byinshi, biraraho abarwayi, mu gihe abaganga banzuye ko barara mu bitaro, bagakomeza gukurikiranwa.

Itsinda ry'abakobwa bambaye impuzankano n'agapfukamunwa, bafata ifoto y'urwibutso, bazamuye akaboko, bagaragaza ko bishimiye iki gikorwa barimo, kandi bagomba gushyiramo imbaraga.

Inyubako zo kwa muganga zanditseho amagambo ku gifuta agaragaza igikorwa cyakorerwa. Igikorwa cyo gusuzuma ibipimo biba byafashwe mu murwayi harebwa indwara arwaye. Hahagazemo umuganga w'umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara.

Imbere mu bitaro mu cyumba cyabugenewe gisuzumirwamo kinanaburirwamo umurwayi, harimo ibikoresho bitandukanye n'imashini ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gihe cyo gusuzuma umuntu urwaye.

Inyubako nini igeretse kabiri, ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, imbere yayo haparitse imodoka hagaze n'abantu, hari n'umuhanda wa kaburimbo, bigaragara ko ari wo ucibwamo n'abantu baje kubasaba serivisi.

Imbere mu bitaro mu cyumba cyabugenewe gisuzumirwamo kikanavurirwamo abarwayi, harimo ibikoresho bitandukanye, igitanda cy'umurwayi, utumeza duterekwaho ibikoresho ndetse n'ibyuma bishyuhisha bikanakonjesha, byashyizwe hejuru y'umurwayi kugira ngo bimufashe mu gihe arimo kuvurwa.

Imbere mu bitaro mu cyumba cyabugenewe gisuzumirwamo kikanavurirwamo umurwayi, ku gitanda cy'umurwayi haryamye umugabo wambaye ikabutura, umupira ndetse n'abapfukamunwa yaziritseho ibyuma bitandukanye bimufasha mu kuvurwa.

Imbere mu bitaro icyumba cyabugenewe kisuzumirwamo kikanavurirwamo umurwayi, harimo igitanda cy'umurwayi aryama mu gihe Ari kwitabwaho, intebe muganga yicaraho mu gihe cyo kwita ku murwayi. Harimo ibindi byuma nk'imashini yifashishwa mu gusuzuma umurwayi.

Imbere mu bitaro harimo ibitanda bitandukanye by'abarwayi, bishasheho amashuka y'icyatsi ndetse ku ruhande hariho utwuma turinda ko umurwayi agwa hasi.

Imbere mu bitaro icyumba cyabugenewe gisuzumirwamo, kikanavurirwamo abarwayi, harimo ibikoresho bitandukanye, nk'akabati gashyirwamo ibikoresho, umuganga ari fashishe mu gihe cyo kuvura umurwayi ndetse n'imashini yabugenewe, yifashishwa mu gusuzuma no kuvura umurwayi.

Inyubako nini ifite imbere hahagaze imodoka zitandukanye, ku nyubako hari icyapa kinini cyanditseho RBC ndetse n'ibyapa ku ruhande bigaragaza igikorwa kiri kuhabera ko kiri guterwa inkunga na RBC ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye, nk'intebe zitwara abadafite imbaraga zo kugenda, utwuma turambikwaho imiti, ndetse hejuru mu nyubako, harimo ibyuma byabugenewe byongera umwuka mu gihe cy'ubushyuhe mu nyubako.

Abantu bahagaze hagati muri bo bashyizemo intera bambaye udupfukamunwa bahagaze imbere y'inyubako yanditseho isange one stop center Kabutare wack hospital bigaragara ko ari inyubako ikorerwamo ikigo cya isange onestop center gikorera mu bitaro bya Kabutare.

Inyubako ku gikuta cyayo handitseho ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, bigaragara ko iyi nyubako ari iyi ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi. Imbere yayo hariho ibiti by'imitako bigufi ndetse iyo nyubako iri kwinjiramo ikanasuramo abantu, bigaragara ko ari abakeneye serivisi zitangirwamo.

Imbere mu bitaro mu cyumba gikoreramo umuganga harimo umugabo wambaye ga n'itariya ndetse n'agapfukamunwa uri kureba mu mashini kugira ngo abone imibare runaka yifuza mu gukoresha avura umunturwayi harimo ibindi bikoresho nk'utubati tubamo imiti muganga yifashisha ndetse n'intebe yicaraho mu gihe ategura kuvura umurwayi.

Inyubako nini igereretse kabiri hariho ibyumba bitandukanye byinshi, iri amabara y'umweru n'ubururu mbere yayo acaho umuhanda wa kaburimbo ndetse n'indabo z'imitako.

Imbere mu cyumba cy'isuzumiro harimo ibikoresho bitandukanye n'igitanda umurwayi aryamaho mu gihe arimo gusuzumwa, imashini zifashishwa na muganga mu gihe cyo gusuzuma umurwayi, ndetse ku gikuta hamanitseho ifoto nini, iriho imbuto, bigaragara ko biburira umurwayi kuba ari zo akoresha mu gihe arwaye.

Icyumba cyabugenewe gikorerwamo siporo, harimo imashini abantu bifashisha mu gihe cya siporo, ndetse zifite uturahuri twifashishwa mu gihe umuntu ari kureba ibijyanye na siporo ari gukora.

Icyumba cyabugenewe gisuzumirwamo abantu, umuganga yicaranye n'umukobwa, arimo kumusuzuma yifashishije akuma kabugenewe yambika mu kaboko, hanyuma kagafata ibipimo bijyanye n'uko amaraso ari kugenda mu mubiri. Inyuma y'umuganga hari akabati karimo ibikoresho bitandukanye yifashisha mu gihe cyo gusuzuma no kuvura umurwayi.

Inyubako ikorerwamo ubushakashatsi muby'imiti, imbere yayo hari umuhanda ucamo ibinyabiziga n'abantu ndetse ukikijwe n'indabo n'umucaca, imbere y'iyo nyubako.

Amaesikariye azamuka yerekeza ku kigo nderabuzima cya Tabagwe, ariho utwuma ku ruhande turinda abantu bajyayo kuba bahura n'ikibazo cy'impanuka, ndetse ku nyubako hari abantu benshi bigaragara ko baje gushaka serivisi zitangwa n'ikigo nderabuzima cya Tabagwe.

Imbere mu bitaro hari icyumba cyabugenewe gifunze, cyanditseho operesheni rumu, bisobanura ko ari icyumba cyabugenewe gikorerwamo igikorwa cy'umwihariko.

Abaganga b’abahungu n'abakobwa bicaye bambaye amataburiya akoreshwa mu kazi , imbere yabo hari ameza ateretseho ibikoresho ndetse n'akabati kabamo ibikoresho bifashisha mu gihe cyo gusuzuma no kuvura abarwayi.

Imbere mu bitaro umuryango ufunguye ugaragaza ko mu cyumba imbere harimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gihe cyo gusuzuma no kuvura umurwayi, hejuru hamanitseho utwuma twabugenewe twongera umwuka mu gihe hashyushye.

Inyubako yabugenewe ikorerwa muri siporo, irimo ibyumba bitandukanye, abakora siporo bifashisha mu kunura umubiri, irimo kandi imashini zabugenewe zifasha Abantu bakora siporo, kugira ngo bazikore neza mu buryo bukwiye.

Imbere mu nyubako hari imiryango itandukanye y'ibirahuri, mo imbere harimo intebe zicaraho abantu, imbere ya buri ntebe hari akameza gashyirwaho ibikoresho by'umuntu wicaye kuri iyo ntebe, ku gikuta handitseho ngo Resarch center, bigaragara ko ari agace gakorerwamo ubushakashatsi.

Inyubako yabugenewe yifashishwa mu gihe cyo gukora siporo, irimo ibikoresho byabugenewe mu gukora siporo bifasha abaje bagana aka gace gukora siporo mu buryo buboroheye kandi bubanogeye.

Imbere mu bitaro, inyubako yabugenewe yanditseho materinete, inzu y'ababyeyi, ikorerwamo ibikorwa byo gusuzuma no kuvura ababyeyi by'umwihariko mu gihe cyo kubyara kwabo.

Umurwayi uryamye ku gitanda cy'abarwayi uri mu bitaro, impande ye hari imashini ziriho imigozi icometse ifasha umurwayi koroherwa ndetse muganga azifashisha mu gihe arimo kuvura umurwayi.

Imbere mu Bitaro mu cyumba cyabugenewe cyahariwe gusuzumirwamo no kuvurirwamo abarwayi. Harimo igitanda cy'umurwayi aryama mu gihe arimo kwitabwaho ndetse n'imashini zabugenewe mu gusuzuma no kuvura umurwayi. Harimo n'ameza aterekwaho imiti n'ibikoresho muganga yifashisha mu gihe ari mu kuvura cyangwa gusuzuma umurwayi.

Imbere mu cyumba cy'isuzumiro abaturage benshi ndetse n'abaganga bari mu gikorwa cyo gusuzuma, abaturage batonze umurongo umwe ari gukorerwa serivisi akavaho hakajyaho undi umugabo ugendera mu kagare k'abafite ubumuga agezweho mu guhabwa serivisi ategereje kwakurwa kugira ngo bamuhe serivisi.

Imbere mu isuzumero harimo abaganga ndetse n'abaturage basanzwe, hari gusuzumwa umuhungu wambaye amataratara, bamuzirika akuma kabugenewe ku kaboko, bafata ibipimo.

Imbere mu bitaro mu cyumba cyabugenewe gisuzumirwamo indwara zitandukanye, hibandwa ku ndwara umuganga atabonenesha amaso ye, agakoresha kiriya cyuma kugira ngo kibashe kubona ibyo amaso ye atabasha kubona.

Umugabo ufite ubumuga utamwemerera kugendesha amaguru, bicaye mu igare ryabugenewe ritwara abafite icyo kibazo, ari gusunikwa n'umwana w'umuhungu, amujyana aho agomba kugera.

Amarembo yubatse hakoreshejwe irangi ry'umweru, afite agace k'umukara kandiditsemo ngo Nyarugenge District Hospital, bigaragara ko ari amarembo y'ibitaro bya Nyarugenge, Imbere yaho hari indabo zikikije ibitaro ndetse n'umuhanda unyurwamo n'abanyamaguru.

Imbere mu bitaro, mu cyumba cyabugenewe kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kubika imiti ndetse harimo umuganga w'umugore wambaye imyenda yabugenewe y'akazi itaburiya, arimo gukora muri kimwe mu bikoresho bibika umuti, harimo n'ameza n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Imbere mu bitaro, mu cyumba cyabugenewe gisuzumirwamo kikanavurirwamo abarwayi, harimo ibikoresho bitandukanye nk'igitanda kicaramo umurwayi mu gihe cyo kumusuzuma, intebe yicaramo muganga mu gihe arimo kuvura umurwayi ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bimeze nk'akabati kaba karimo imiti n'ibikoresho umuganga arabyifashisha.

Igipangu cyubakishije amatafari ndetse n'ibyuma hejuru handitseho ku cyapa ibitaro bya Ruhengeri byumvikanisha ko ariho ibitaro bya Ruhengeri biherereye, impande yaho hari umuhanda wa kaburimbo urigucamo abantu b'ingeri zitandukanye.

Inyubako nini yubatse igereretse, imbere yayo haparitse imodoka ndetse hahagaze abantu ku ruhande, bigaragara ko baje gushaka serivise zitangirwa muri iyo nyubako.

Imiryango myinshi ikurikiranye irimo utwumba dutandukanye, muri buri muryango babikamo, ibisubizo by'ibipimo byafashwe ku barwayi ba Sida.

Inyubako yanditseho ikigo nderabuzima cya Shagasha, yicayeho abantu, ababyeyi babiri bari kumwe n'abana babo, bigaragara ko inyubako ikoreshwa mu buvuzi bw'ibanze ku baturage baturiye Shagasha.

Igikorwa cyo gupima umwana ibiro, aho umubyeyi yambitse umwana we imishumi ifashe hejuru ku munzani umanitse hejuru, umwana arimo kwerera ariko umunzani upima ibiro afite, abandi babyeyi bicaye bategereje ko nabo bagerwaho bagapima ibiro by'abana babo.

Imbere mu bitaro icyumba kiryamamo abarwayi bategereje gukomeza kwitabwaho n'abaganga, bari mu bitaro haryamyemo abarwayi, umwe ku gitanda cye, undi ku cye hejuru ya buri gitanda hamanitse supanete ibarinda kurumwa n'imibu itera malariya.

Imbere mu bitaro, mu cyumba kirimo ibitanda bibiri biryamaho abarwayi mu gihe babasuzuma banabavura, bifite amapine abifasha kuva mu gace kamwe babijyana mu kandi. Hariho kandi imashini zabugenewe zifashishwa mu gihe umurwayi barimo kumuvura.

Inyubako ihagazeho abantu imbere yayo yanditseho ikigonderabuzima cya Gishweru bigaragara ko ariho ubuvuzi bw'ibanze bw'abaturage bukorerwa.

Ikigo kirimo inyubako zitandukanye, zubatse mu buryo zirebana, hagati muri zo hacamo umuhanda w'abanyamaguru, ukikijwe n'indabo ku ruhande ndetse n'ibiti by'umutako, haparitsemo imodoka ebyiri, ziri ahabugenewe.

Amarembo manini atwikiriye, ku gikuta handitseho Kigina health center, bisobanura ko ari amarembo yinjira mu kigo nderabuzima cya Kigina. Imbere yaho hahagaze umubyeyi urimo kurembera umwana kugira ngo adakomeza kurira.

Imbere mu bitaro n'icyumba cyabigenewe kivurirwamo zikanasuzumirwamo abarwayi harimo igitanda kiryamaho umurwayi mu gihe ari kwitabwaho intebe yicaramo umuganga uri kumwitaho ndetse n'izindi ntebe zicaraho abandi baganga baza kwifashishwa mu gihe bakenewe harimo ameza n'utubati birambikwaho ibikoresho hifashishwa mu gihe cyo kuvura umurway.

Icyumba cyabugenewe gikorerwamo siporo, kirimo ibyuma bitandukanye, byifashishwa mu gukora siporo. Hejuru ku gikuta hari isaha yo igaragariza umuntu uri gukora siporo aho igihe kigeze.

Icyumba cy'ibitaro cyagenewe gusumirwamo no kuvurirwamo indwara zitandukanye, harimo ibikoresho nk'intebe, imashini ndetse na mudasobwa zifashishwa mu gusuzuma no gupima ibipimo byafashwe ku ndwara y'umurwayi.

Imbere mu bitaro mu cyumba cyabugenewe kiburirwamo abana umuganga n'umukobwa wambaye ibikoresho byabugenewe ingofero itaburiya ndetse na ga arimo kwita ku buzima bw'umwana uryamye mu gitanda cyabugenewe kiri imbere ye amumwenyurira amusekera amwishimiye.

Inyubako iri mo imbere mu gipangu, urugi rwacyo rurafunguye impande yacyo hari ibyapa cyanditseho ikigo nderabuzima cya Gisenyi, bigaragara ko hari aho ikigo nderabuzima cya Gisenyi giherereye, imbere haparitse umunyegare utwaye umukobwa ufashe akadobo mu ntoki.

Umugabo wambaye mataratara n'ijire y'umukara yanditseho arabici, ikigo cy'ubuzima mu Rwanda. Imbere ye hari imeza iriho ibikoresho bitandukanye, yafashe akuma kabugenewe akambika umusaza umwicaye imbere ku kaboko. Kugira ngo asuzume ibijyanye n'umuvuduko we w'amaso, inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho irembo nk'umuterankunga w'igikorwa cyiri kuba.

Imbere mu bitaro mu cyumba cyabugenewe gisuzumirwamo kikanavurirwamo umurwayi harimo igitanda umurwayi aryamaho mu gihe arimo kwitabwaho, harimo intebe muganga yicaraho mu gihe arimo kwita ku murwayi ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gihe cyo kwita ku murwayi. Hariho akabati kabamo ibikoresho umuganga yifashisha ndetse n'intebe yicaramo undi muntu wese waba uri mu bitaro ushobora gufasha umuganga cyangwa wita ku murwayi.

Imbere mu bitaro, mu cyumba cyabugenewe kiryamamo umurwayi, harimo igitanda cy'umurwayi, imashini zifashishwa mu gihe arimo kuvurwa ndetse n'ibindi bikoresho bishyirwaho imiti mu gihe muganga arimo kwita ku murwayi.

Imbere muri salo hari ibikoresho bitandukanye, nk'intebe, n'ameza, n'imitako, yenda, ameza ateretseho igitabo ndetse hariho umutako n'ururabo ruri mu gakumbe.

Imbere mu bitaro, abarwayi baryamye ku bi bitaro byabugenewe, hejuru ya buri gitanda, hashinzeho icyuma gifasheho ibikoresho byabugenewe umurwayi yifashisha, ndetse buri gitanda gifite supapanete, ibarinda kwangirizwa n'imibu, hariho umugabo uri kugenda azinga supanete kugira ngo babone uko bita ku murwayi.

Inzu y'ibitaro, yanditseho materinete buroke, bisobanura ko ariho ababyeyi barwarira, imbere yayo hahagaze umuganga wambaye agapfukamunwa, ndetse n'itaburiya y'umweru.

Umugabo uri muri siporo wambaye umupira wumukara afite icupa ry'amazi yarishyize ku munwa ari kunywa amazi, bigaragara ko yari ari mu rugendo akaba ageze igihe yumva umubiri we ukeneye amazi akayanywa.

Abagabo batatu, bambaye imyambaro ya siporo, n'ingofero za siporo, agaragara nk'amakipe abiri atandukanye, arimo gukina umukino w'amaboko, hejuru no hasi handitse amagambo mu ibara ry'icyatsi bisobanura ubwoko bw'umukino cyangwa se n'amabwiriza uyu mukino urimo gukinwa.

Igikoresho gifite ikirahuri kiri hejuru cy'umukara, kirimo imibare runaka, bigaragara ko ari cyo muganga yifashisha mu kureba imibare y'ibipimo yafashe umurwayi arimo kwitaho.

Umuntu ufite ikibazo mu kaguru, yicaye ku ntebe yabugenewe imufasha kugira ngo kamere neza, impande ye hahagaze umuganga uri kumuha amabwiriza y'uburyo agomba kwitwara kugira ngo akaguru ke gakire.

Umuhungu uri muri siporo wambaye imyenda yabugenewe ya siporo, yicaye ari mu mwanya wo kunywa amazi, aho afite icupa mu ntoki ririmo amazi yashyize ku munwa agotomera amazi ari mu icupa.

Umukobwa wambaye imyambaro ya siporo, waziritse akuma ku kaboko ke k'iburyo n'inyakiramajwi mu matwi z'umweru, bimufasha kumva ibiri guturuka mu kuma yaziritse ku kaboko. Afite icupa ry'amazi, araramye agotomera amazi ari mu icupa.

Igare ryabugenewe ritwarwamo abarwayi badafite uburyo bagenda n'amaguru, rifite amapine abiri, intebe umurwayi yicaramo ndetse n'utwuma tubiri, umuntu umutwaye afataho akarisunika.

Umukobwa wambaye imyambaro ya siporo, inkweto, ikabutura ndetse n'umupira, ahagaze nk'unaniwe yunamye afashe ku mavi yubitse umutwe hasi, bigaragara ko yari muri siporo akaba ananiwe afashe akanya ko kuruhuka.

Imbere mu bitaro byabugenewe, bivurirwamo bikanasuzumirwamo umurwayi, harimo intebe yicaramo umurwayi mu gihe arimo gusuzumwa, intebe yababugenewe yicaramo umuganga, mu gihe ari gusuzuma umurwayi ndetse n'ibikoresho nk'imashini byifashishwa mu kureba indwara umurwayi arwaye.

Umukobwa wambaye imyambaro yabugenewe ya siporo, inkweto, ikabutura ndetse n'isengeri, ari gukora siporo yicaye hasi, bigaragara ko ananura umugongo, amaguru ndetse n'amaboko ndetse n'izosi.

Umusore urimo gukorera siporo mu cyumba cyabugenewe, akoresheje ibikoresho nka baro, imigozi ndetse n'ibindi bitandukanye, arimo gukora siporo zo kunanura umugongo, amaguru ndetse n'amaboko.

Icyumba cyabugenewe cyo kwa muganga, giteretsemo imashini iri mu mabara y'umweru n'ubururu, yifashishwa mu gusuzuma umuntu ndetse no kumuvura mu gihe afite indwara.

Umuganga uri kwita ku murwayi wagize ikibazo cyo mu ivi, ahakanda yumva ahantu nyirizina harimo ikibazo ku murwayi. Umurwayi aryamye ku gitanda cyabugenewe, muganga arimo kumwitaho.

Umusore wicaye munsi y'igiti wambaye isengeri y'umukara ufite icupa ry'amazi arimo gusoma, bigaragara ko ari muri siporo akaba ageze mu mwanya wo kunywa amazi.

Mu cyumba cyabugenewe kuvurirwamo umurwayi, kirimo umurwayi uryamye ku gitanda cyabugenewe abaganga bane bahagaze imbere bambaye ibikoresho bitandukanye basuzuma banavura umurwayi.

Umuntu wicaye wazamuye umwambaro ku kaguru kamwe, ufite agapfuko mu ntoki, ari gupfuka ku ivi bigaragara ko ryagize ikibazo cyatumye amaraso ava, akaba ari kuhapfuka kugira ngo bitaza gutera ibindi bibazo.

Imbere mu cyumba cy'ibitaro ahabugenewe, haryama abarwayi bategereje kwitabwaho n'abaganga. Harimo abaganga baje kubasura ndetse n'umukobwa urimo kwerekana uburyo bita ku barwayi.

Umusore wambaye isengeri n'isaha ku kaboko, afatiye amaboko inyuma ku mutwe agaragara nk'uri muri siporo yinanura, ananura amaboko, ibikanu ndetse n'umugongo.

Umugabo wambaye agakabutura n'agasengeri by'umukara, ufite ubwanwa upfunditse imisatsi apfukamye ku mukeka arimo gukora siporo.

Umugabo wicaye ku mayesikariye, wambaye inkweto zifunze, ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu. Afite terefone mu ntoki ndetse n'inyakiramajwi. Afite n'icupa ry'amazi ari kunywa amazi.

Umugabo ufite ubwanwa buringaniye afite icupa ry'amazi yarishyize ku munwa, bigaragara ko ari kunkwa amazi akoresheje iryo cupa.

Umugabo uri muri siporo wambaye ikabutura y'umweru n'umupira w'umukara. Ufashe telefoni mu ntoki, aryamye ku gitanda cyabugenewe gikorerwaho siporo, mugenzi we ari kumufasha muri siporo zo kunanura amaguru.

Umukobwa wambaye imyambaro ya siporo, ipantaro ndetse n'isengeri yicaye hasi ku musambi arimo gukora siporo zo kunanura umugongo amaguru ndetse n'amaboko, kugira ngo amererwe neza umubiri we ugire imbaraga.

Abagabo batatu bari mu gikorwa cyo gushyira ibikoresho imbere y'ibitaro, umwe yazamutse urwego arukandagiyeho undi ari hasi ari kumuhereza ibikoresho yifashisha mu gushyiraho icyo gikoresho gikenewe.

Abantu babiri, umuhungu n'umukobwa, bambaye imyenda yabugenewe ya siporo, isengeri n'ikabutura. Bafite icupa ry'amazi, barimo kwirukanka gake gake mu muhanda bakora siporo yo kumanura amaguru, amaboko ndetse n'umugongo.

Ibikoresho bya siporo inkweto ndetse n'umupira w'amaguru byifashishwa n'umuntu urimo gukora siporo uri gukina umupira w'amaguru, akuma umuntu yambara mu matwi bigasuzuma ahantu runaka ashaka gusuzuma.

Umukobwa wambaye inkweto z'umutuku, ipantaro y'umukara n'isengeri y'umutuku, yicaye hasi arimo akora siporo mu buryo bumworohereza kuzikora atavunitse, ari gukora siporo ziganjemo kugorora umubiri, kugorora amaguru ndetse n'amaboko.

Igikapu cy'umutuku kirimo imiti itandukanye ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, bifasha umuntu uri muri siporo kuba yakoresha mu gihe bibaye ngombwa.

Umugabo yicaye ku gitanda cy'abarwayi, yashyizeho akaguru, muganga wambaye ishati y'umweru arimo aramuzirikira kuri ko kaguru, bigaragara ko harimo ikibazo cy'imvune, arimo kumufasha kugira ngo bigabanye uburibwe, anakire.

Imodoka y'imbangukiragutabara ikoreshwa n'ibitaro mu kugeza abarwayi kwa muganga, cgangwa se mu rugo iwabo, mu gihe bari kwa muganga, irimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo, yacanye amatara bigaragara ko itwaye umurwayi.

Umuhungu wari muri siporo, wambaye imyambaro y'umukara, yicaye ku gitanda arimo aritabwaho n'umuganga. Bigaragara ko yagize ikibazo mu kabumbambori mu gihe yari arimo gukora siporo. Muganga ari kumufasha kugabanyirizwa uburibwe ndetse no koroherwa no gukira.

Imbuto z'ubwoko butandukanye, ziganjemo imineke, amatunda, amaronji, n'izindi, zifashishwa n'umuntu urimo gukora siporo, mu kumwongerera imbaraga, ndetse n'amaraso...

Umusore wambaye ikabutura ndetse n'umupira, bigaragara ko ari muri siporo, arimo kuyikora abifashijwemo n'inzobere, umuganga wabugenewe wo kumufasha gukora siporo mu gihe cyazo.

Umukobwa wambaye imyambaro ya siporo, wicaye hasi arimo gukora siporo, afite akuma kabugenewe kaziritse ku kaboko ndetse n'inyakiramajwi zituruka kuri ako kuma, byumvikana ko arimo kumva ibituruka kuri icyo gikoresho yaziritse ku kaboko.

Imbere mu bitaro mu cyumba gisuzumirwamo kikanavurirwamo abarwayi harimo ibikoresho bitandukanye nk'igitanda umurwayi aryamaho mu gihe arimo kwitabwaho intebe muganga yicaraho mu gihe avura umurwayi ndetse n'ibindi byuma byifashishwa mu kuvura umurwayi birimo imashini ndetse n'utubati baterekaho ibikoresho mu gihe cyo kumuvura hejuru hari icyuyuma cyabugenewe cyohereza umwuka mu gihe hashyushye.

Umuhungu wambaye imyambaro yabugenewe ya siporo, inkweto, ikabutura, n'umupira, arimo gukora siporo, ananura amaguru ndetse n'amaboko, akandagira ku kabogisi gahari, azamuraho ukuguru, agusubizayo, azamuraho ukundi, agusubizayo, mu buryo bwo kunanura no gukomeza amagufa.

Umukobwa wicaye, wambaye imyambaro y'umukara, isengeri n'ipantaro n'imisatsi miremire, ari gukora siporo zo kunanura umubiri, impande ye hateretse icupa ry'amazi.

Imashini yababugenewe yo gusuzuma indwara runaka mu murwayi yicara hanyuma imashini ikifashishwa mu gusuzuma indwara arwaye hirya hateretse akabati gashyirwamo ibikoresho byifashishwa n'umuganga mu gihe ari gusuzuma .

Umuganga wabugenewe usuzuma abana, imbere ye hari ibikoresho nka mudasobwa n'ibindi yifashisha mu gihe cyo gusuzuma umwana, afashe umwana umutwe amurebesha hejuru amusuzuma ikibazo afite cyo mu maso.

Amasahani ariho ibyokurya bitandukanye, imineke, amagi, ibishyimbo, n'ibindi ndetse n'izindi mboga zitandukanye ziri mu gakoresho kabugenewe, impande yaho hari ibyuma byifashishwa n'umuntu urimo gukora siporo, bigaragara ko harimo ibikoreshwa n'umuntu uri muri siporo, hanyuma akaba afite ibyokurya bimufasha muri siporo.

Agace karimo ibikoresho bitandukanye byiganjemo ibyifashishwa muri siporo, inkweto, utwuma two guterura, agacupa k'amazi n'akandi kuma gasa umweru karambitse hasi, kereka uri gukora siporo imibare y'ibipimo ashaka gufata. Hariho ibiganza bibiri bifashe ibiryo, nk'imbuto, karoti ndetse n'inyanya, bigaragara ko byifashishwa n'umuntu wari urimo gukora siporo.

Abantu biganjemo urubyiruko, bahagaze bambaye amajire y'umweru ashushanyijeho umutima ibara ry'umutuku. Bahagaze bareba umwe muri bo wafashe umuhungu usa n'ufite ikibazo, arimo kumuryamisha aho yashashe n'igitambaro cy'umukara.

Akagare kabugenewe, kifashishwa ku muntu udafite imbaraga zo kugendesha amaguru, gafite amapine ane, aho umurwayi yicara ndetse n'aho umusunika afata mu gihe arimo kumusunika.

Umukobwa wambaye imyenda ya siporo, inkweto z'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'isengeri, ari gukora siporo yicaye hasi, ananura umugongo, amaguru ndetse n'amaboko. Yambaye akuma mu kaboko gafiteho inyakiramajwi zimufasha kumva ikiri mu kuma aziritse ku kaboko.

Ibiti birimo ibinini ndetse n'urushinge irambitse ahantu ibinini bisa umweru ibindi bisa umuhondo, biriho amagambo asobanura icyo bifasha umuntu.

Umuhungu wicaye wambaye umupira w'umweru afashe agatambaro k'ubururu agafatiye mu nkokora, bigaragara ko harimo kumurya cyangwa hagize ikibazo akaba ari kugabanya uburibwe nk'ushaka ko hakira vuba.

Amaguru y'umuntu wambaye agakabutura k'umukara mu mavi haraziritse bigaragara ko hari n'ikibazo yageze mu ivi bakazirika kugira ngo cyorohe cyangwa bidakomeza kumurya.

Umutoza ufashe baro mu ntoki, ahagaze mu cyibuga cyirimo kaburimbo, arimo araganiriza umuntu umuhagaze impande wifashishije itwuma dufite amapine tumufasha kugenda, mu gihe bigaragara ko adafite imbaraga zo kugenda n'amaguru ntakimufasha kugenda.

Ukuboko k'umuntu ufashe korogate mu ntoki arimo gusukira mugenzi we ufashe uburasha kugira ngo ajye gukora isuku mu menyo, mu rwego rwo kwirinda indwara ashobora kurwara zituruka ku mwanda uri mu menyo.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura abantu bafite ibibazo bitandukanye bitagombeye ko bajya gufata imiti mu bitaro byashyizweho na leta. Ifunze mu macupa yabugenewe ari mu rwego rutandukanye amacupa mato n'amacupa manini, amwe asa umweru andi asa umukara bitewe n'umuti runaka ufunzemo.

Uduce tune tugaragaza ahantu ho mu ishyamba harimo abantu batandukanye, agace kamwe karimo umugabo ufashe ku giti akandi karimo abantu babiri bareba ikintu runaka, bigaragara ko hari ikintu bagiye gushaka mu ishyamba.

Ibice bitandukanye by'umuntu bigaragaza ko umuntu ari kuhakora, aho hakora hahinduka umutuku, nk'ikimenyetso kerekana ko aharwaye, impande yaho hari amacupa arimo imiti itandukanye ivura mu bice birwaye.

Ibikoresho bitandukanye birimo imbuto, imboga ndetse n'amacupa byifashishwa mu gukora imiti gakondo. Ubikoresha awukora ahondera imboga n'imbuto mu gakoresho kabugenewe kugira ngo bibyare umuti ashaka, ujya kwifashishwa n'umuntu urwaye aho kugira ngo age gufata ibinini byo kwa muganga.

Agace gakorerwamo ibikorwa by'ubuhinzi, umuhinzi yashyize imbuto nyinshi zitandukanye mu dukoresho twabugenewe zikuriramo ndetse yashyizeho icyapa kigaragaza ubwoko bw'imbuto buri muri ako gace.

Ibinini byinshi birambitse ku kibabi gisa icyatsi kibisi, bigaragara ko ari imiti ya gakondo, abantu bifashisha mu kwivuza.

Abakozi batandukanye, bakora mu ibijyanye n'ubuhinzi, bari mu murima ahahinze ibihingwa bitandukanye, barimo gufata ifoto y'urwibutso, bambaye imyenda y'icyatsi iriho amagambo agaragaza uburinzi bakora ndetse banezerewe bishimira ibyo bagizeho.

Amacupa menshi yiganjemo ay'umweru harimo iry'icyatsi n'iry'umuhondo bigaragara ko harimo imiti ya gakondo ivura abaturage.

Umuti gakondo ukoze mu buki buri mu kajerekani gashushanyijeho uruyuki ndetse n'andi magambo biri mu ibara ry'umuhondo. Bisobanura ubwoko bw'uwo muti n'icyo uvura n'ingano yawo.

Imboga, imbuto, amasahane, birambitse ku rukoma, byifashishwa mu gukora imiti gakondo ivura umuntu, bitagombeye ko ajya gufata ibinini byo kwa muganga.

Ibimera bitandukanye bihurijwe hamwe byiganjemo amashu n'ibindi, byifashishwa mu kuvura mu buryo bwa gakondo, uburyo bukoreshwa umuntu avurwa indwara bitagombyeye ko ajya kwa muganga gusuzumwa no guhabwa ibinini.

Imiti gakondo iri mu byiciro bitandukanye yiganjemo ibyatsi n'indi miti yakozwe n'abaganga batandukanye, bitewe n'indwara runaka buri cyiciro gifite imiti itandukanye n'ikindi.

Imiti gakondo ifunze mu bikoresho byabugenewe, birimo amacupa asa umweru n'irindi risa umukara, yifashishwa mu kuvura indwara umuntu bitagombeye ko ajya mu bitaro byashyizweho na leta.